Indyo igizwe n'ifiriti, ifi yokeje, salade igizwe n'indimu, ibitunguru, inyanya biri ku meza muri resitora. Bigaragara ko abantu runaka bagiye gusangira kuko hari amacupa agiye atandukanye ari ku ruhande rw'isahani.

Amarembo yinjira ahantu bacumbika, bacumbikira ahantu hitwa ineza hawuze na numero ya telefone z'aho wababonaho ziragaragara.

Icyapa cyamamaza ibikorwa Joshuwa honesiti teke bakora, harimo gukora amatelefoni, harimo ibikoresho bindi bya eregitoronike, gutanga amafurashi, bikagaragaza na nimero za telefoni zabo zikoreshwa, ku buryo ugize ikibazo wabahamagaraho.